Abagabo ndetse n'abagore cyangwa se igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ahantu hari intebe nziza kandi zigezweho, imbere yabo hari ameza akoze neza, ateretseho ama ji yo kunywa ndetse n'amazi yo kunywa.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bambaye neza bose, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hari ameza meza agezweho ndetse imbere y'uwo mugore hari n'imashini nziza ya mudasobwa.

Abagabo n'abagore bicaye mu ntebe kandi nziza imbere yabo hari ameza ameze neza ateretseho amazi, bafite indangururamajwi imbere yabo bafite na mudasobwa imbere yabo hari n'umugabo ushinzwe gufata amashusho n'amafoto.

Ntabwo babiri bagaragara b'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, imbere yabo hari amacupa y'amazi n'amacupa ya ji zo kunywa. Afite indangururamajwi imbere ye umugabo umwe.

Mu nyubako mo imbere, hicayemo abantu b'igitsina gore n'igitsina gabo, bicaye mu ntebe nziza zisanzwe, bafite ameza impande zabo atatse n'ibitambaro by'umweru ndetse hakurya n'iby'ubururu, bari mu nyubako nziza itatse n'amabara y'ubururu n'umuhondo, imbere yabo hari umuntu uhagaze, bisa nk'aho ari we uri gutanga ikiganiro.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe nziza kandi zigezweho bambaye neza, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa, bicaye imbere y'ameza agezweho hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishinze impande zabo.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mu imbere, harimo abafite amaterefone barimo barafotora ndetse abandi barimo baraseka bareba imbere. Inyubako irimo amatara y'umweru yaka neza ndetse bicaye ku ntebe z'umutuku.

Abantu babiri bicaye ku ntebe nziza z'umukara zigezweho hari n'izindi ntebe ziticayemo abantu, imbere yabo hari ameza atatsweho imyenda y'ubururu ndetse n'umuhondo, inyuma yabo igikuta gisa umweruru hari n'amarido meza agezweho. Imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Abagabo cyangwa se igitsina gabo n'abagore cyangwa se igitsina gore bahagaze imbere y'inyubako bafata ifoto bafite ama afishi mu ntoki cyangwa se udutabo twibyanditswemo bavuye munama.

Abantu benshi bahagaze igitsina gabo n'igitsina gore, bigaragara ko barimo kwifotoza, bari mu nyubako isa neza yubatswe n'amabara menshi atandukanye, ndetse harimo n'ibyapa byanditse mu mabara y'umweru bigaragaza ko ari umushinga wa masitikadi.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bicaye mu gishararaga cyubatswe neza ndetse aho hantu hateye ibyatsi, ku rundi ruhande hateye ibiti ndetse imbere yabo bafite udukapu dutandukanye ndetse hari n'ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abagabo batatu bambaye amakoti asa neza n'abagore babiri bambaye neza, bafite imbere ya bo amazi ari mu icupa, n'ibyokunywa by'amaji abateretse imbere, umwe afite indangururamajwi n'undi arayifite bicaye ku ntebe nziza bisa nk'aho bari kwandika.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe ku ntebe zisa neza zitatseho ibitambaro by'umweru, imbere yabo bafite udutabo two kwandikamo, hari abafite indangururamajwi, ameza yabo nayo ariho ibitambaro by'umweru bari mu nzu isa umweru.

Abagabo ndetse n'abagore cyangwa se igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye mu ntebe nziza z'ibara ry'umukara bambaye neza, imbere yaho hari ameza asa neza, bafite amakayi bisa naho ari ayo kwandikamo, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa.

Abagabo n'abagore harimo abagabo b'abazungu bambaye amakoti meza n'abirabura bambaye amakoti meza, bicaye ahantu hasa nk'aho hari gukorerwa inama, imbere ya bo hari amazi ari mumacupa ya pulasiitike, bicaye imbere y'intebe nziza kandi zikozwe bigezweho.

Abantu benshi igitsina gore n'igitsina gabo bahagaze ahantu hasa neza, bahagaze ahantu hasa ubururu inyuma yabo hari ibyapa by'ubururu byanditseho n'amabara y'umweru igikuta gisa umweru.

Abantu benshi b'igitsina gabo bicaye mu ntebe nziza begamiye bigaragara ko bari guhabwa ikiganiro, inzu bicayemo irasa neza, hari kwaka amatara y'umweru ndetse inafite ibyuma by'ikoranabuhanga riyungurura amajwi inyuma.

Abantu b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bicaye bigaragara ko hari n'abahagaze bafite ibikoresho bikoreshwa mu gufata amashusho n'amafoto, n'abantu bicaye, abo bicaye bafite imashini cyangwa se mudasobwa imbere yabo,...

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo umwe wambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi. Afite ibyo ari kubabwira, hari n'ibirango imbere byanditse mu ibara ry'umukara aho bose bareba bicaye.

Umumama wambaye umwenda w'umuhondo wo hejuru afite indangururamajwi bigaragara ko ari kubwira abandi bantu bicaye imbere ye, abo bantu bafite amazi abateretse imbere bari gukorera ibiganiro ahantu hari ibyapa by'umweru mu mpande cyangwa imbere yabo.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara wambaye neza mbese asa neza yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru indorerwamo inyuma ye hari amabara y'ubururu yicaye imbere ya tabule iteretseho amazi.

Abagabo n'abagore bahagaze ku nzu yubakishije amakaro hanze ifite ibirahure byiza kandi bibonerana bari bahagaze bifotoza bafata ifoto y'urwibutso nk'uko bigaragara.

Umuntu wambaye umupira w'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki iri mu ibara ry'umutuku, imbere ye hateretse amazi, ari kwerekeza akaboko ku birango by'irembo by'ubururu, hariho ibyanditseho ngo byikorere.

Harimo abantu bari gukoresha mudasobwa, igitsina gore n'igitsina gabo, bigaragara ko harimo abari bari guhugurwa cyangwa bari kwigishwa kugira ngo bongere ubumenyi.

Urupapuro rusa ubururu, rwanditseho ibintu byinshi bitandukanye, ndetse urwo rupapuro rufite andi mabara y'icyatsi, rwanditseho ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe, hariho akamashini gakoreshwa mu kugenda mu mujyi wa Kigali, ndetse hariho n'ibiganza biri guhana amafaranga gusa byoho bibujijwe hakaba hemewe iyo mashini.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite terefone mu ntoki, irimo ibyandikishije, ubururu, umuhondo, ndetse n'umweru, bisa nk'aho ari kwamamaza ndetse ku rubuga rw'irembo rutanga serivisi zitandukanye mu Rwanda.

Umugabo wambaye ishati iciye amaboko wifashe neza, yambaye n'ingofero isa umukara, ahagaze mu muryango w'ahantu hari ibipapuro byinshi byanditse ku gikuta bisa nk'ibamamaza.

Abasore n'umukobwa bicaye, umusore umwe ariwe uri kuvuga bicaye imbere ya mudasobwa bafite n'impapuro imbere yabo ku ntebe isa umutuku, imbere yabo hari na telefone.

Umunara muremure uri mumabara y'umutuku n'umweru ukoreshwa mwitumanaho kuma telefone nama radiyo nibindi, urubakiye neza kuburyo bukomeye hasi hari amazu yubatse neza kandi muburyo bugezweho.

Imigozi y'insinga z'umuriro w'amashanyarazi zicometse ziri mu ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru, imbere hari imashini igaragaza imibare y'uko bikora iri mu ibara ry'umukara ifite n'ibyanditsemo mu ibara ry'icyatsi kibisi. Bicometse byose ku gikuta kirimo umweru.

Umunara muremure cyane ugaragara igice cyo hasi ukozwe n'ibyuma bikomeye, igice cyo hasi gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, wubakiye neza n'ibyuma biwuzengurutse k'urundi ruhande hakurya haca insinga.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwanditseho n'amabara y'umukara n'ay'ubururu rugaragara ko ari urw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda rwahawe umucuruzi ku bicuruzwa byiwe yaracuruje cyangwa yaragurishije.

Urupapuro ruri mu ibara ry'ubururu, rwandikishijeho amabara y'umweru, mu kirango cy'urubuga rwitwa irembo rutanga serivisi, zikenerwa n'abaturage mu Rwanda zitandukanye.

Urupapuro cyangwa se ikirango kiriho ibinyabiziga, hariho ipikipiki itwara abagenzi babiri, harimo n'imodoka ntoya, harimo n'ibirango bikoreshwa mu muhanda bigaragara ko biri ku rubuga rw'irembo,...

Hari abantu benshi hari umusore wambaye umupira w'umweru uri imbere usa n'ubayoboye, imbere hari ibyuma by'ikoranabuhanga mudasobwa n'ibindi bikoreshwa mu gucuranga umuziki, cyangwa se indirimbo bari ahandi h'umweru hasakaye mu buryo bwiza kandi bugezweho.

Inyubako nziza, yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ifite ibyuma hejuru bya murandasi ndetse n'umuriro w'amashanyarazi. Yubatse hanze, hateye ibiti ndetse n'amarabo meza, hakurya hubatse izindi nyubako, bigaragara nkaho ari mu mugi.

Icyapa cyangwa se urupapuro runini ruri mu mabara y'ubururu, rwanditsweho n'ibirango by'umuhondo ndetse n'amabara y'umweru, hashushanijeho inzu igeretse kabiri, nziza,...

Ni umunara ukoreshwa mu bintu by'itumanaho, ugaragara igice cyawo cyo hasi, uri ahantu hubakiye neza hazengurutswe n'ibyuma bikomeye, impande z'aho hari igipangu kiriho urugi rw'umukara, ndetse ku rundi ruhande hubatse amazu meza bigaragara ko ashobora kuba ataruzura.

Ni urupapuro ruri mu mabara y'umweru ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda bigaragara ko bari gutanga itangazo bacishije kuri urwo rupapuro. Itangazo riragira riti iminsi y'ikiruhuko rusange.

Ahantu hubatswe inzu n'amatafari mato ahiye, ndetse zisakajwe amabati atukura, hari ipiloni ry'umuriro w'amashanyarazi, ririho insinga kandi uwo muriro aba ari mwinshi kuko ujya mu nganda ndetse n'ahandi.

Ahantu hubakishijwe amabati hari icyapa cyanditseho ibintu byinshi bitandukanye bigaragaza aho hantu ko hakorerwa iby'ubwubatsi icyo cyapa kiri mu mabara y'ubururu umukara ndetse n'umweru inyuma yacyo hari ipironi.

Hubatswe nyubako ziciriritse zigaragara ko zishaje cyangwa zimaze igihe kirekire. Harimo ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi mu baturage butwara mu byerekezo igihe bitandukanye, hagaragaramo n'igiti cyazamutse hejuru gisumba inzu.

Ipironi iriho insinga z'amashanyarazi yubakishije sima ndetse n'amabuye kugirango ikomere ishinze ahafi n'ahari ibiti by'icyatsi kibisi hubatswe utuzu dutoya bigaragara ko dushaje.

Inyubako nziza igeretse ifite ibyapa byinshi bitandukanye byamamaza, inyuma hari umunara uri mu mabara y'umweru n'umutuku, ku rundi ruhande imbere aho twegereye hari ibyuma binini bimanitse biba biriho amakamera yo ku muhanda.

Umuntu wambaye imyenda yabugeneye. Bisa nkaho ari gukora umuriro w'amashanyarazi, yuriye ku ipoto hejuru aho rigarukira, yambaye ingofero yabugenewe, ijiri, yambaye igisarubeti ndetse n'inkweto bakoresha. Bigaragara ko afite ibyo ari gukosora cyangwa ari gutanga umuriro w'amashanyarazi.

Ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibyuma hejuru bishyushya amazi, yubatse ahantu hari ikigega cy'amazi asa naho ari ay'imvura, hubatse igipangu cyiza cy'amatafari kandi gikomeye, hanze hateye ibiti ndetse ni hafi y'umuhanda wa kaburimbo, haca n'amapironi y'umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto ikoreshwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, ihuriraho umuriro uva ahantu henshi hatandukanye, ikawugemura mu ngo ndetse n'ahandi hatandukanye, mu bigaragara ni ipoto ndende, igera kure hashoboka.

Ni ipironi ikoze mu byuma, itwara umuriro w'amashanyarazi, ihagaze cyangwa yatewe ahantu hasa naho ari ahantu hasanzwe, haciriritseho, ho mu cyaro, hari igiturage gisanzwe, hari ibiti byinshi n'amazu matoya asanzwe.

Hateye ibyatsi by'icyatsi kibisi bisa nk'aho ari ibyimejeje, hari ibyuma bibiri biteganye, inyuma yayo hari amabati, ndetse hubatse n'igipangu cy'amadafari ahiye, hateye n'igiti, harimo n'ibyuma kuri ayo madafari.

Ahantu hari ibyuma by'umuriro w'amashanyarazi, biwongera cyangwa se biwugabanya, bikawutwara mu baturage cyangwa se mu bigo runaka cyangwa se mu nganda. Hasashe amabuye hasi, hari ibyuma byinshi bisa umweru ndetse n'umukara, ku ruhande hubatswe n'igipangu ndetse hateye ibiti by'icyatsi kibisi.

Umunara muremure ugaragara igice cyo hasi wubakiwe neza, uri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, wubakiwe n'ibyuma bikomeye has hari ibindi byuma bikorana nawo ndetse n'amamashini ndetse hakurya hari inyubako nziza hateye n'ibiti.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi riyobora cyangwa se rikwirakwiza umuriro mu baturage baturiye hafi aho. Hubatse amazu menshi atandukanye, hubatse igipangu cyiza gifite amabara atandukanye, ndetse hubatse n'amazu yo mu bwoko bwa konoshi, hateye ibiti ku ruhande nk'uko bigararaga.

Mu inyubako imwe mbere harimo abantu benshi batandukanye igitsina gabo n'igitsina gore hari abicaye ndetse n'abahagaze hari umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati bisa wicaye mu ntebe ndetse imbere ye hari kizimyamwoto ikoreshwa mu kuzimya inkongi z'umuriro inkuta zisa ubururu z'iyo nyubako barimo ndetse harimo n'amatara arimo araka ibara ry'umweru.

Umuhanda w'ikaburimo ukozwe neza ku ruhande hubatse inzu iri mu ibara ry'umweru udakeye ifite amabati ashaje, hari igipangu, haparitse imodoka eshatu, haparitse umumotari ndetse hari n'undi muntu urimo aragenda hagati yiyo mihanda hateyemo ibiti.

Ahantu hubatswe neza, inzira nyabagendwa zicamo abantu, zisakaye neza mu rwego rwo kwirinda imvura ndetse n'izuba, bigaragara ko ari mu bitaro, hateye ibyatsi bibisi ndetse n'indabo, hakurya hubatswe izindi nzu ndetse hari na za kizimyamoto.

Ni inyubako igeretse kabiri yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ifite ubwatsi hanze, ikaba isakaye neza ikaba iteye amarangi mu buryo bwiza bumwe, ikaba ifite amadirishya n'inzugi biteye neza.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, iri mu mabara y'umuhondo, umweru n'ibyuma biyiriho biteye ibara ry'umuhondo, hagati harimo umuntu urimo aratambuka w'igitsina gore, yambaye ipataro y'umukara ndetse n'icyati cyangwa itaburiya y'umweru.

Mu nyubako imbere cyangwa se aho inyubako zihurira hubakishije amatafari ahiye ahandi hateye amarangi meza, umuryango uriho ibirahure byinshi imbere hahagaze umuntu ku gikuta cy'amatafari hariho icyuma cyabugenewe gikonjesha mu nzu.

Ni ahantu mu kigo runaka nko kwa muganga, ku mashuri cyangwa ahandi, haparitse imodoka eshatu, ndetse hari n'abantu benshi batandukanye barimo baragenda n'umumama wicaye ku rundi ruhande, ndetse hari amatara ahatsa hateye n'ibiti byinshi bitandukanye.

Ahantu hari inyubako yubatswe neza ndetse ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara hasi, iteye ubwatsi mu gikari cyayo ndetse n'indabo nziza bisa neza ku buryo abantu banahicara, ifite amabaraza akoze neza kandi yubatse n'amabuye akomeye.

Inyubako nziza yubatswe n'amatafari y'umutuku, akorwa n'imashini akunze kuva aho bita kuri Ruriba, isakaje amabati atukura ndetse hahagaze abantu babiri hanze yabo basa n'abanyagiyewe n'imvura imaze kugwa, ahantu hasa n'ahari umuhanda w'ikaburimbo.

Abantu bane bari mumbuga isashemo amapave kuburyo bwiza kandi bugezweho inyuma yabo haparitse cyangwa hari kugenda imodoka eshatu hakurya harinzu ifite amabati atukura, kuruhande hari izindi nzu ntoya

Urupapuro ruri mu mabara y'umweru rwanditsweho n'ibyandikishijwe ibara ry'umukara handitseho ingingo zitandukanye, kuva ku ngingo ya gatanu kugera ku ngingo ya gatandatu byanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndetse hari n'ahanditse ururimi rw'Icyongereza , ndetse n'ururimi rw'Igifaransa.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umwenda usa umutuku, ndetse imbere yawo yambaye undi usa umweru, yambaye ikaruvati isa ubururu, ndetse ni umugabo wiyogoshesheje mu buryo bwiza umusatsi ureshya.

Abantu benshi bari mu cyumba runaka cyangwa se mu nzu, bambaye neza bambaye udupfukamunwa, ndetse muri iyo nzu harimo intebe z'ibiti gusa zikomeye zubatswe mu buryo bugezweho, inyuma hari inzugi nziza zifite amadirishya y'umweru.

Abayobozi bicaye mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama, imbere yabo yateretse ameza ariho igitambaro cy'umukara kuriyo meza hariho ibitabo n'amazi yo kunywa mu macupa.

Ni umugabo cyangwa se umusore wifotoje usa neza yambaye ikaruvati ishati y'umweru icimo imirongo y'umukara yambaye n'itariya cyangwa se igishungi gisa umutuku gifite n'amabara y'umukara yiyogoshesheje neza uburyo umusatsi ungana.

Umugabo wambaye umwenda usa umutuku ndetse yambaye indorerwamo, yiyogoshesheje ku buryo umusatsi ureshya kandi ari muke ndetse n'ubwanwa ntaburiho yarabwogoshesheje, inyuma ye hari urugi ndetse hakurya hari n'urupapuro rw'umweru.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ikoti ryiza risa ubururu, ishati y'umweru imbere na rinete nziza z'umukara, ari gusuhuzanya n'umugabo wambaye itaburiya y'umutuku cyangwa se ishati y'umutuku, n'ingofero iri mu mabara y'umuhondo n'umukara, afite umusatsi mwinshi, uwo muntu bisa nk'aho ari umumama.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'ubururu bafite indangururamajwi imbere yabo bambaye imyenda isa ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ingofero z'umukara ndetse zirimo ibara ry'umuhondo.

Abagabo batatu, barimo babiri bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, imyenda isa umukara ndetse bambaye n'amajire y'umukara, bambaye ingofero zisa umukara ziriho ikirango cya polisi y'u Rwanda. Bafashe umugabo wambaye ishati y'ubururu, yambaye indorerwamo z'umukara, afite umusatsi muke.

Urupapuro ruriho amafoto y'abantu b'abagabo harimo abacishijwemo umurongo utukura bigaragara ko bafunzwe, harimo n'abandi badacishijeho umurongo utukura bashakishwa. Hariho ibyapa byandikishije amabara y'umweru, urupapuro aho rusa umukara n'amafoto y'abantu, hejuru ku bantu bashakishwa handikishije ibara ritukura.

Igikuta cy'umweru cyubatse neza kandi gikomeye kuburyo bugezweho, hariho ikirango cyangwa se urupapuro hejuru rwanditseho "igororero rya Musanze", hanze yaho hateye ibiti by'icyatsi kibisi ndetse,

Umugabo w’ umwirabura ufite umusatsi mukeya wambaye ama darubindi yambaye ikoti ritukura rifite umukara kuruhande rwegereye mu gatuza yambaye ishati imbere irimo ni karuvati.

Hagaragaramo abaturage basanzwe bambaye udupfukamunwa ndetse harimo n'abasa naho ari abaganga cyangwa bafite ibindi bashinzwe bambaye imyenda y'umweru, barikumwe n'ushinzwe umutekano ndetse barimo barazimya gaze bisa nkaho bari kwitoza kwitegura igihe habaye ikibazo gitewe na gaze.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Kizimyamwoto izimya inkongi y'umuriro iri mu ibara ry'umutuku, yometseho urupapuro rw'umweru rwandikishijeho umutwe mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'andi magambo yandikishije ibara ry'umukara, ifiteho agapapuro ku ruhande, kagaragaza ko amategeko n'amabwiriza yo kuyikoresha n'uburyo ikoreshwa.

Abagabo babiri bari gukurura umupira ushinzwe kuzimya inkongi z'umuriro, bambaye: imyenda yabugenewe, ingofero zabugenewe, bari kumena imyuka izimya ahantu bikekwa ko hari inkongi y'umuriro.

Ni mu muhanda w'ikaburembo wubatse neza, harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye. Harimo moto itwawe n'umumotari ahetse umugenzi, n'imodoka itwara abagenzi, nini, isanzwe, iri kwerekwa ikimenyetso n'umupolisi, aho ikwiye guhagarara igihe gito cyangwa kinini.

Abagabo bambaye neza imyenda y'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda bafite imbunda bakoresha mu gucunga umutekano n'ubusugire, bahagaze ahantu heza hubakiye hari igipangu kinini, hakurya hateye ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye.

Ahantu hashashe amapave, haparitse amamodoka menshi, iri imbere ni iy'urwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda mu Rwanda, yegerewe n'indi y'umukara ihaparitse, ifite ibirango by'umutuku, amatara, ndetse n'ikimenyetso kiranga nimero y'ikinyabiziga, cy'umuhondo.

Umuhanda w'iyi kaburimbo kuruhande haparitse imodoka hari n'ushinzwe umutekano mu muhanda, umupolisi ndetse ku ruhande hari umumotari nawe uparitse ikinyabiziga, hubatse inzu nziza igeretse rimwe ifite ibyapa bitandukanye bisa n'ibyamamaza.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye imyenda irimo ibirango by'umuryango wa Efuperi inkotanyi harimo n'ibirango by'iryo shyaka inyuma hari abaturage bafite amadapo mato y'iryo shyaka rya Efuperi.

Abagabo bane bambaye amakoti n'amashati y'umweru imbere na karuvati, bambaye neza bigaragara. Umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano n'umumama ubari imbere wambaye neza, inyuma yaho hubatse amatenti y'umweru hakurya hateye ibiti.

Abagabo, abagore, abana, abagore bishimye bashyize impapuro hejuru zishushanijeho ibintu, hari umugabo uri kubyina imbere yabo n'undi mugabo wambaye ingofero itukura uri gukoma amashyi, n'abagore bigaragara ko bishimye n'abana.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mo imbere, inyubako igezweho, bicaye mu ntebe zisa umukara zigezweho, imbere yabo hari ameza asa kandi yubatse neza, ibikuta byaho birasa umweru ndetse n'umuhondo, hari n'ibyapa bitandukanye bimanitse hejuru.

Abagabo batatu n'abagore babiri, bicaye mu ntebe nziza cyane z'umukara, mbere yabo hari ameza nayo meza cyane y'umukara, abagabo batatu bambaye amakote n'amashati meza n'amakaruvati, abagore umwe yambaye ikanzu nziza, undi yambaye umushana, mbese bisa neza.

Ni abagabo, abasore cyangwa abagore, abakobwa bahagaze ku murongo begera imbere ahantu hasashe amapave, inyuma yabo hateye ibiti birebire vy'icyatsi kibisi.

Ni umumama cyangwa se umubyeyi ugaragara neza wasokoje neza, yambaye umushanana urunigi ndetse yambaye n'agapira k'umweru mo imbere yazamuye ikiganza cy'iburyo, ku ruhande rw'imoso rwiwe hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ni umugabo perezida wa repubulika y'u Rwanda yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati isa umukara n'amadarubindi, imbere ye hari indangururamajwi ihagaze neza kuri etageri y'umukara yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, inyuma ye bigaragara ko hari abantu yari ari kubwira.

Abantu bicaye ndetse n'abahagaze ,abahagaze imbere hari umwe uhagaze ufite indangururamajwi bigaragara ko afite icyo ari kubabwira yambaye neza mu muco nyarwanda, inyuma yabo hari ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye neza ndetse hariho amabara atandukanye umukara ndetse n'icyatsi kibisi n'ubururu .Hari intebe zisanzwe ziri mu mabara y'umweru.

Umugore wambaye neza ikoti ryiza, yambaye amadarubindi, afite umusatsi mwiza, inyuma ye hasa umweru yicaye mu ntebe y'umukara nziza igezweho kuruhande rwe rw'iburyo hari idarapo ry'igihugu cyu' urwanda, ibumoso hari ikirangantego cy'urwanda.

Abantu benshi bahagaze harimo babiri bahagaze imbere bambaye imyenda isa yo mu mabara y'umweru inashushanyijeho ibindi bintu ni umugabo n'umugore, umugore yambaye indorerwamo ndetse n'urugori, umugabo yiyogoshesheje ku buryo bugezweho bahagaze mu nyubako cyangwa se mu gisharagati cyubatswe.

Abamama ndetse n'abagabo bishimye barimo barabyina harimo umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umupira utukura bigaragara ko bari kwamamaza umukandida runaka bari ahantu bahagaze bamwe barimo barakoma amashyi abandi babyina.

Abagabo babiri bahagaze, bishimye bari guseka, bambaye neza kabisa, umwe yambaye ikoti n'ishati y'umweru imbere, undi yambaye imyenda y'abantu bashinzwe umutekano mu nzego zikomeye z'igihugu, inyuma yaho hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rumanitse neza ruriho ifoto y'umugabo wambaye ikote ruri ku isibo yitwa Ubwiza bigaragara ko uwo mugabo yari asa nk'uri kwiyamamaza mu gutorwa mu matora.

Umuhanda mwiza wikaburimbo urimo umumotari urimo aragenda atwaye moto, kuruhande hateye ibiti byicyatsi kibisi hari nipironi yitara hariho nindi pironi ifite kashipawa hakurya harindi nyubako igeretse nini.

Imodoka irimo iragenda mu muhanda w'ikaburimbo irimo abantu babiri uko bigaragara, hakurya hateye ibiti byiza by'icyatsi kibisi, kurundi ruhande hari igipangu cyubakishije amabati y'ubururu n'andi y'umutuku.

Umuhanda w'ikaburimbo, urimo ikinyabiziga kiri kigenda, gitwaye ibicuruzwa, kiri mu mabara y'umuhondo, ndetse hari n'ikindi kiri mu mabara y'umutuku, kigaragara imbere gusa, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Abagabo babiri barimo baragenda umwe yambaye ikabutura undi yambaye ipantaro kandi ahetse n'igikapu, barimo baragenda mu muhanda hakurya hari imodoka nazo zirimo ziragenda hateye ibiti byakuze cyane ndetse hubatswe n'inzu ziri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi n'urukuta rwubakishijwe ibyuma by'umweru.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo uragedamo ibinyabiziga bitandukanye, amagare atwawe n'abanyonzi, imodoka, ndetse na moto zitwawe n'abamotari kuruhande hateye ibiti by'icyatsi kibisi haparitse n'amamodoka atandukanye. Mu muhanda harimo amatara yaka ni njoro.

Ahantu hari imodoka nyinshi zitwara abagenzi, aho zihagarara umwanya munini, hari abantu benshi batandukanye, abicaye, abahagaze, harimo amatara yaka nijoro, hakurya hateye ibiti ku musozi uhari ndetse ku rundi ruhande hari ipironi nini y'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wubatswe neza, wo mu bwoko bw'ikaburimbo, urimo ibinyabiziga bibiri. Harimo igare ritwawe n'umuyonzi ahetse umuntu ufite umufuka, ahetse n'igikapu. Harimo imodoka nini, iri mu mabara y'umweru n'ubururu, hakurya yaho hateye ibiti birebire, byakuze neza.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo uragendamo ikinyabiziga gitwara imizigo cyangwa ibicuruzwa cyo mu bwoko bwa dina, inyuma yacyo hari umunyonzi, umumotari, kure hari ibindi binyabiziga, ku mpande hateye ibiti, harimo kugaragara n'inzira y'abanyamaguru.

Inyubako y'amagorofa yo kwiyakiriramo na none itanga amacumbi yo kuraramo, hari ahantu h'uruganiriro hari amahema hejuru ya hari ubusitani impande zose.

Umuhanda w'ikaburimbo cyangwa se parikingi harimo imodoka ebyiri, umumotari uri kuri moto wambaye umupira w'umweru n'ingofero yabugenewe ikoreshwa n'abamotari, hakurya hubatse amazu ameze neza, hari n'aho imodoka zinywera esansi ziri mu rugendo.

Ni ahantu mu muhanda hasa nahahagarikwa ibinyabiziga igihe gito ndetse hari amatara yo ku muhanda hatatswe n' ibyapa bitandukanye byanditseho binashushanyijeho ibirango by' umuco nyarwanda.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo imodoka yo mu bwoko bwa dina, ufite ibyuma by'umutuku biyizengurutse isa ibara ry'umweru, imbere yayo hari ibindi binyabiziga birimo biragenda ku ruhande hahagaze abanyamaguru hari n'undi urimo aragenda mu muhanda w'abanyamaguru ku ruhande.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo imodoka irimo iragenda, ifite amabara y'umweru, ndetse umuhondo, n'umukara wanditseho yego cabuzi mu ibara ry'umutuku, hakurya hateye ibiti ndetse harubakiye.

Umuhanda w' ikaburimbo, ugaragaramo ibinyabiziga bibiri, ikinyabiziga cya moto n' imodoka. imodoka iri mumabara yumweru, moto iriho umumotari, nta mugenzi itwaye, byose birimo biragenda, hakurya hateye ibiti birebire by' icyatsi kibisi.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo ibinyabiziga biparitse, imodoka nziza z'umweru, imwe y'umweru ifite amabara y'umutuku, inyuma yayo hari inyubako nziza igeretse rimwe, hari abakiriya hasi aho bacururiza.

Umuhanda wa kaburimbo ukozwe k'uburyo bugezweho urimo imodoka iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, iri mu bwoko bwa hoho inyuma cyangwa ku ruhande hari umumotari uparitse ku rundi ruhande hari umugenzi urimo aragenda. Hateye ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda w'ikaburimbo ukomeye kandi usa neza, ukorewe isuku urimo ibinyabiziga bibiri birimo biragenda ibinyabiziga binini kimwe gitwaye ibicuruzwa ikindi nta bicuruzwa gifite hakurya hateye ibiti by'icyatsi kibisi hanubatse amazu hirya yabo.

umuhanda w'ikaburembo uharagaza aho abanyamaguru bambukira, hakurya hari imodoka zirimo ziragenda ndetse n'amamoto, ku ruhande hateye ibiti bitandukanye byinshi by'icyatsi kibisi, ku muhanda hari ya saha nini iba imanitse ku ruhande rw'aho.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu urimo aragenda mu muhanda bisa n'aho ari uwa kaburimbo, inyuma ye hari imodoka y'umukara, iruhande rwe ibumoso hari imodoka itwara abagenzi iri mu mabara y'umuhondo n'umweru ndetse n'ibirahuri by'umukara, hakurya ku rundi ruhande hubatswe inzu.

Ni umuhanda w'i kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi, ku ruhande hari igikuta cyubatse mu mabara y'umweru ndetse gifite ibintu byanditseho. Hateye amapoto y'umuriro w'amashanyarazi hari n'indi poto igaragaza itara ryaka nijoro ku muhanda, ku ruhande hateye ibiti.

Umumotari w'umugabo atwaye umugenzi w'igitsina gore, umuhanda w'ikaburimbo, inyuma yabo hari inzu yubatse isakaje amabati atukura, ikaba ifite n'uruzitiro rw'ibyuma.

Umuhanda w'ikaburimbo ucamo ibinyabiziga bitandukanye, hakurya haparitse amamodoka matoya, amapikipiki ndetse n'ibindi, hubatse inzu iri mu mabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku, hakurya hari izindi zubatse zifite n'ikirango cya kanali pulisi.

Umuhanda wi kaburimbo wubatswe neza ku buryo bukomeye, urimo ikinyabiziga gikoreshwa mu gutwara umucanga, amabuye bivangwa mu kubaka inzu kugira ngo zikomere, kiri mu mabara y'umweru cyanditseho icyapa cya simerwa,...

Umuhanda w'ikaburimbo ufite ibipande bibiri binini harimo ibinyabiziga bibiri, imodoka yo mu mabara y'umukara irimo irazamuka n'ikinyabiziga cya moto kirimo kiramanuka, iriho umumotari uhetse umugenzi. Mwuwo muhanda hagati hateyemo ibiti by'icyatsi kibisi bisa neza kandi bigezweho no kumpande hakurya y'umuhanda hari ibindi biti by'icyatsi kibisi binini.

Umuhanda w'i kaburimbo urimo uragenda ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru barimo baragenda, hari ushinzwe umutekano utagaragara neza, ndetse hakurya hari inyubako nziza zubatswe mu buryo bugeretseho, hakurya hari imisozi iteyemo ibiti.

Hubatse mu buryo bw'igisharagati, hicayemo abasore n'inkumi, harimo n'abandi bari kugenda batambuka bigaragara ko ari mu mujyi ahantu muri Kigali.

ikibuga cy’umupira w'amaguru cyubatswe muburyo bugezweho, gifite amazamu cyangwa amapoto meza y’umweru agezweho. inyuma yacyo hateye ibiti bisa icyatsi kibisi hari imodoka zirimo ziragenda.

Umuhanda w'ikaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ufite amatara yaka nijoro kumuhanda harimo abanyamaguru bari kugenda, ku ruhande hubatswe inzu z'ubucuruzi ndetse hateyeho n'amashyamba azana umwuka wo guhumeka.

Ibyapa bibiri, kimwe kigaragaza ko hari ikibuga cy'indege, ikindi kikaba kigaragaza ko hari akamanuko ku binyabiziga. Hateye igiti cy'icyatsi kibisi mu bigaragara.

Ni icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'umweru gishinze ku giti gishatse gusobanurira umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se umuyobozi utwaye ikinyabiziga ko gikwiye gukata mu kuboko kw'ibumoso.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Ni ikimenyetso gikoreshwa mu muhanda kiri mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku. Iki kimenyetso kibwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira, hagasabwa kugenda gake igihe ahegereye.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kiyobora umuyobozi w'ibinyabiziga, kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kibwira umuyobozi w'ibinabiziga ko aho hafi hari aho guparika imodoka.

Umuhanda w'ikaburimbo hari ibyapa byinshi bitandukanye, biri mu mabara umukara, umweru, ubururu, ndetse hakurya hateye ibiti by'icyatsi kibisi kurundi ruhande hari ibyatsi byakuze harimo n'ibyapa byinshi bigaragaza aho hantu.

Ni icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, gikoreshwa mu muhanda mu kuyobora umuyobozi w'ikinyabiziga kimubwira ko hafi aho hari aho baparika cyangwa imodoka ihagarara umwanya muto ndetse n'umwanya munini.

Imiturire y'inzu ziciriritse bigaragara ko zimaze igihe, amabati yazo amaze gusaza, harimo amapoto y'umuriro aziha umuriro, hakurya hateye ibiti b'icyatsi kibisi.

Igipangu, cyubatswe neza ku buryo bugezweho, gifite inzugi zigezweho zifite n'akazu gato hanze gikikije inzu nini irimo imbere ifite ibirahure byiza cyane, ifite n'imipira isa nkaho ari iy'amazi amanuka ku ruhande.

Inyubako nini yubatse mu bwoko bwa etaje cyangwa inzu igeretse, ifite ibintu byanditseho mu birango by'umweru, ifite ibirahure bisa umukara, imiryango ifite igipangu cyangwa uruzitiro rw'ibyuma, imbere yarwo haparitse imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wicaye kuri moto bisa nk'aho nta mugenzi afite, ku ruhande hubatse inzu nziza iri mu mabara y'umweru, n'amabati y'umweru, iri mu gipangu cy'amatafari gifite inzugi nziza, ku ruhande hateye ibiti.

Ahantu h'imiturire hubatse inzu nziza kandi zigezweho, zubatswe mu buryo bwa kadasiteri na konoshi, hari ibiti bitanga umwuka wo guhumeka kandi mwiza. Inzu zubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho zifite amabati atukura, bigaragara ko ari inzu nziza kandi zikomeye.

Akabati gateretse muri saro cyangwa mu cyumba ku makaro karimo ibikoresho bitandukanye biri mu ibara ry'umweru umutuku umukara ubururu imbere yako hicaye umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'icyatsi kibisi.

Ishami rishinzwe ubucuruzi, kandi rinini cyane rifasha abaguzi kuba bagura bisanzuye mu gihe bakeneye ibyo kurya, bakaba babibona mu buryo bworoshye cyane.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo uragendamo ibinyabiziga hakurya hari undi muhanda biteganye na wo urimo ikinyabiziga kirimo kiragenda, ku rundi ruhande haparitse amamodoka hari inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara atandukanye, mu muhanda harimo umunyamaguru urimo aragenda.

Inyubako ifite amabara: y'umweru, umuhondo n'ibirahure bijya gusa ubururu bwijimye cyangwa se umukara; imbere yayo hari igiti no ku mpande hari igiti cy'icyatsi kibisi, hari umuyoboro w'umuriro w'amashanyarazi, hakaba ipironi rimanitseho itara, munsi yaho hari ikirango cya serivisi ya eyateri.

Ahantu heza hubatse inyubako z'imiturire hubatse inzu zigeretswe ndetse n'izisanzwe zo mu bwoko bwa Kadasteri, hateye ibiti byinshi bitandukanye ndetse icyapa cyagaragaza bisa nk'aho ari Kimirongo mu mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza igeretse muburyo bugezweho; ifite igipangu cyiza, ifite ibiti biteye hanze, ndetse hari n'indabyo z'icyatsi kibisi, kurundi ruhande hashashe umucanga bigaragara ko hejuru hacaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Amazu yubatse mu buryo bwiza bugezweho kandi akaba yegeranye, ebyiri zo hejuru ziri mu bwoko bwa kadasiteri, n'indi yo hasi iri mu bwoko bwa konoshi ifite nomero magana abiri na rimwe, izo hejuru zikikijwe n'ibyuma bikoze urupangu.

Hahagaze imodoka eshatu z'umweru n'indi y'umukara, hari abantu batanu, umumotari utwaye umugenzi, n'abandi b'igitsina gabo batatu barimo baragenda, hari inyubako nziza zigeretse kandi zikomeye uko bigaragara, ndetse hatambuka n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ndetse harimo n'izindi zitandukanye

Ihuriro ry'umuhanda munini uhurirwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye; imodoka, amamoto hari ibirango bigaragaza ko ibinyabiziga bikwiye kugenda ibibanza n'ibikurikiraho hateye ibiti by'icyatsi kibisi ku mpande harubakiye neza ku mpande z'uwo muhanda.

Umuhanda w'ikaburimbo munini ugendwamo n'ibinyabiziga ari kugenda mumodoka n'umuntu utwaye igare uri imbere imodoka imwe igemura inyama nkuko bigaragara mu rurimi rw'icyongereza, hakurya hari amazu yubatse neza ageretse hari insinga zitwara umuriro ndetse n'izitwara ibindi bitandukanye hari amatara yo k'umuhanda hateye n'ibiti kumpande z'umuhanda.

Mu isangano ry'imihanda yubatse neza harimo ibirango biyobora abatwara ibinyabiziga cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, harimo imodoka ziri kugenda harimo amapikipiki harimo ndetse n'abagenzi barimo baragenda umuhanda wegeye ahantu hateye ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda munini kandi mwiza ugabanijemo ibice bibiri, impande zawo hateye ibiti by'icyatsi kibisi bigaragara ko hari igihuru gitanga umwuka hafi aho, urimo umumotari hirya hari amamodoka hagati hateyemo ibyuma by'ikoranabuhanga, hakurya hari ikiraro.

Umuhanda w'ikaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ufite amatara kumuhanda yaka n'ijoro bukikijwe n'ibiti byiza by'icyatsi kibisi byakuze ndetse hari n'ibyapa bitandukanye hakurya hari inyubako nziza igeretse yubatswe.

Umuhanda uri mu bwoko bw'ibitaka, uteyeho amaraba kumpande indabyo zisa neza hateye ibiti hafi aho hubatse inzu yo mu bwoko bwa kadasiteri yubatse neza n'amabati yumweru ifite igipangu kiriho urugi rw'umukara.

Umuhanda muto urimo abagabo bicaye ndetse n'abamama, harimo abanyonzi hari n'igare riparitse, hateye ibiti ku ruhande, haruguru y'ako kayira harimo umuhanda n'amapironi ku muhanda yatsa nijoro.

Imihanda ibiri ihura irimo ibinyabiziga bibiri, hari igare riparitse ku ruhande, hari n'imodoka y'umweru irimo iragenda imanuka, ku ruhande hari ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi ririho itara ryaka mu gihe cya nijoro, ku ruhande hateye ibiti bisa icyatsi kibisi, harimo n'indabyo zisa umuhondo.

Umuhanda w'i kaburimbo wubatswe neza, burije amatara arimo araka harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye abatwaye moto, abatwaye imodoka ndetse n'abanyamaguru hakurya hari ikiraro nacyo gice'ibinyabiziga cyubatswe neza mu buryo bugezweho kandi gikomeye.

Umuhanda w'ikaburembo, urimo abanyamaguru babiri barimo baragenda, umumotari na we atwaye moto ari kugenda, hakurya hari imodoka ebyiri na zo zirimo ziragenda, ku ruhande hateye ibiti, hakurya hari ikiraro, hafi n'umuhanda.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo abanyonzi bari kugenda bahetse abagenzi, hari ikiraro hirya y'aho harimo n'ibihuruhuru biteye ku ruhande bigaragara ko harimo n'indabo n'ibindi byuma bikoreshwa mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri, hagati yabyo hateyemo ibiti n'ibyatsi bito bito, harimo n'amatara y'umuhanda. Ku mpande, ku nkengero z'iyo mihanda hateyeho ibiti by'icyatsi kibisi, imbere hari icyapa cy'ikirango cyanditseho mu buryo bw'icyatsi kibisi, ubururu n'umweru gihagaze neza.

Umuhanda w'ikaburimbo ukozwe mu buryo bugezweho ugaragaza aho abanyamaguru batambukira ndetse harimo abanyamaguru babiri bari gutambuka uteye ibiti ku mpande hakurya hari amatara yaka nijoro.

Mu muhanda w'ikaburimbo, ugaragaza aho abanyamaguru batambukira bajya mu rundi ruhande rw'umuhanda, hakurya hari inyubako nziza yubatswe, iteye amarangi y'umweru ndetse n'indi nzu yegereye ifite ibyapa by'umutuku, umuhondo, hakurya hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo munini ufite ibipande bibi byo kugenderemo urimo imodoka na moto biri kumanuka, ikindi kizamuka kirimo moto n'imondoka noya bizamuka. Ufite ibiti kuruhande by'icyatsi kibisi bikikije uwo muhanda namapoto y'amatara, ndetse ni icyapa cy'umutuku.

umuhanda wo mu bwoko bw'i kaburimbo, uri kuganamo moto icanye amatara, imbere yayo hari amazu, inzu igaragara neza ifite amabara y'icyatsi n'ibara rijya gusa ubururu bwijimye, imbere yayo hari abantu, hari umumotari, hari ibyapa byinshi bitandukanye bisa umutuku, umuhondo n'andi mabara.

Ni umuhanda w'ikaburimbo urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande hateye ubwatsi ndetse n'ibiti, hakurya hari amazu menshi yubatse mu buryo butandukanye harimo abantu barimo baragenda hafi n'umuhanda.